Ikibuga giteraniyemo abantu batandukanye bazanye za gaze. Hakaba harimo umuntu uri kwerekana uburyo bateka kuri gaze, hakaba hari umutaka utwikiriye kuri icyo kibuga, ndetse n'ibiti bihazengurutse.

Ibyapa biba ku muhanda, biyobora ibinyabiziga ndetse n'abagenzi, bitewe n'amashusho ajemo bikerekana uko umugenzi ari bwambuke umuhanda, hazamo indi shusho y'umutuku, bikagaragaza ko umugenzi agomba guhagarara hakambuka ibinyabiziga.

Abantu bitabiriye inama ikaba iyo nama ibereye mu kibuga, bamwe bicaye ku mapipitire. Bakaba bari kuyiremeshwa n'ushinzwe umutekano ariwe umupolisi.

Ubwato buri mu mazi, butwara abantu n'ibintu bugakora n'ubucuruzi bwo mu mazi abantu bakabutereza bakabaha amafaranga, ya mafaranga umusare ubutwara akaba ayifashisha nk'igihembo cye. Ndetse wa muntu nawe ushaka kubwambukiramo akagera iya ajya nta kibazo.

Ibyuma bikozwe mu mashanyarazi, bikaba bifasha abashinzwe umutekano gutahura ibikorwa bimwe, cyangwa n'ibindi bishobora kuba byahungabanya umutekano mu bijyanye n'impanuka zagwirira igice runaka.

Icyuma gishinze, abapolisi bifashisha mu kureba ibikorwa bishobora kuba byabangamira ,umutekano w'abantu n'ibindi.

Abantu bateraniye ahantu hamwe. Bakaba bari mu nama, akaba ari umugore uri kumwe n'ibase yicaranye nayo, hakaba hari umuyobozi ubari imbere ari kubahanurira ibintu bigezweho, abigisha ibintu bijyanye n'amategeko bagomba kubahiriza.

Ahantu hateraniye inama iri kwiga ku bintu bitandukanye, bitewe n'ingingo bari kwigaho ako kanya, yagirira abitabiriye iyo nama akamaro, ndetse n'abasigaye ikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Intore ziri guhamiriza zambaye amayugi n'imyenda yabugenewe, hakaba hariho n'undi uri kuvuza ingoma afite umurishyo. Ingoma ibambishijwe uruhu rubambwe ku kagunguru.

Abantu bari mu mazi. Bari mu bwato, ubwato butwawe n'umusare. Hakaba harimo abagore, hakaba harimo n'umuntu ufite intara. Bakaba bavuye ahantu hamwe bagiye ahandi bifuza kujya, bakambuka amazi.

Itorero ry'abantu bahanga imbyino bakabyina mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bagasusurutsa abantu batashye ibirori, ndetse bakishima, bagomba no kuritumira, bararikodesha, bakariha amafaranga bifashisha nabo muzima bwabo.

Agaseke kaboshye neza, ubwoko bw'ikibo. Kaba gafite umutemeri. Kifashishwa mu gutwara ibintu, bakabibikamo babijyanye ahantu, cyangwa ubikuye ahantu, ukakifashisha kabika ibintu. Abadamu bakunda kukifashisha bakikoreye, cyangwa batwereye.

Umusaza ukugendera ku bikondo bibiri ufite ubumuga bwo kutagenda, neza akaba yambaye ingofero, yambaye ishati n'ikoti, ndetse akaba yambaye n'ipantaro n'inkweto.

Igitebo kiboshywe mu migano, inkingi z'imigano, kikaba gisojwe n'imigano ariyo bita imihotora, kikaba giteretse ku ngata baboha mu birere, bakayitaka neza.

Intore ziri guhamiriza mu muco nyarwanda, zambaye imishanana, ibihura ndetse n'amacumu mu ntoki, bakaba inyuma y'abo hari inzu yubatse mu buryo bwa kinyarwanda, ifite uruhinza n'umuryango, bikaba ari ugusekuruza umuco nyarwanda.

Indoshyo ibaje mu giti bakaba bayirambitse ku meza, bayifashisha iyo bavuga umutsima cyangwa barura ibiryo biri ku muriro bakabyarura babikura mu nkono babishira ahantu bashaka kubigeza.

Umuntu urimo gusekura. Afite isekuru ibajije mu giti ndetse n'umusekuzo, akaba yicaye ari gusekura ibintu biri muri iyo sekuru. Ibivamo bishobora kuba ari umuti cyangwa se imyaka, ari gusekura mu isekuru.

Igicuma cya kinyarwanda gipfundikiye. Kiva mu bintu bita ibihaza bigira imbuto. Kikaba icyo gicuma kijishe mu njishi. Ni bwo buryo bakibika, umuco ugezweho nyarwanda.

Abacuranzi bambaye imyenda y'akazi，bakaba bari gucuranga bari kuvugira kuri za mikorofone，umwe akaba yifashishije inanga ari kuyikiranura， akaba ari kuyigambirira akoresheje terefone.

Abamama babiri, bari gukora igikorwa cy'umuco Nyarwanda, harimo kuboha ibirago ndetse bararambirije ku kirago baboha imisambi, bakuyemo inkweto bashaka kuboha umusambi.

Imitako itandukanye irimo ibicuma, birimo imiheha, uduseke tuboshywe mu buryo butatse, tukaba duteretse ku mikeka na yo iboshywe mu mabara. Akaba ari umuco nyarwanda abantu bagenda bibukiranya.

Isekuro ibajije mu biti, mu giti, barayifukuye ikaba ifite akamaro ko gusekuriramo imyaka ukoresheje umusekuzo, warangiza ukabikuramo ukabigira neza bitewe n'icyo ugiye kubikoresha, haba kubibetesha cyangwa se kuba wabisekura bikavamo ifu nyirizina.

Mu muco nyarwanda hari uburyo umucuranzi yafataga inanga ye ,yarangiza agakiranura inanga, yifashisha intoki agakora mu mirya, bitewe n'inanga yashaka gucurangamo.

Isuka bahingisha mu murima, ikaba ikwikiye mu muhini ubajijwe mu giti, bayifashisha mu kazi ko guhinga cyangwa gucukura no gukoresha akandi kazi gatandukanye.

Agaseke kaboshywe mu bwatsi bwabugenewe. Kakaba gatatse neza kameze nk'agasobane, ariko kakaba gafite umutemeri. Kifashishwa gutwaramo ibintu cyangwa kubikamo ibintu, hanyuma bikabikwa mu buryo bugezweho.

Uduseke tune, kamwe karapfunduye. Tuboshywe mu twatsi tw'amabara tukaba dufite n'udushumi hejuru. Tukaba baturambitse ku birago cyangwa se icyo bita imisambi.

Umuntu uri kurashisha umuheto n'umwambi. Ni igikorwa abantu bakoraga, iyo babaga bari guhiga. Hanyuma bamasha bakarasa cya kintu mu cyiciro kigahita gipfa, bakajya kureba umuhigo w'icyo kintu bishe.

Akabindi gateretse ku ngata babangaga y'amabara bitaga umudende. Ako kabindi kakaba kabumbye mu buryo buteye amatsiko. Kakaba karimo umuheha. Kifashishwaga mu gutura inzoga bakikoreye, no kubika ibintu cyangwa se bagashyiramo inzoga, igihe babaga bafite ubukwe.

Umuco wakorwaga n'abantu b'abahigi bafataga umuheto bagafata n'umwambi bakagenda ku rugamba, cyangwa bakajya guhiga ahantu iyo babaga bajya ku rugamba barwanishaga imiheto bakamasha iyo bababaga barashe nk'umuntu cyangwa se ikintu.

Hari ubwoko bw'intara zitandukanye, zanditsweho amoko atandukanye y'ibihingwa. Harimo uburo, amasaka ndetse n'ibindi. Hakaba hari abantu bari kwitegereza umuco w'uburyo abantu baboha ziriya ntara, bakazifashisha bagosora.

Umwana w'umukobwa uri gusekura afite isekururo ibaje mu giti akaba dusekuza umusekuza nawo ubaje mu giti. Imbere hakaba hari indobo twifashisha iyo dusukamo ibintu tugashyiramo amazi, hakaba hari n'igitebo yifashisha azana ibyo ashaka gusekura.

Ububoshi bw'imisambi cyangwa ibirago bitatse, ndetse n'imikeka birimo amabara, abantu babyifashisha bicaraho cyangwa bakanikaho imyaka kugira ngo yume.

Ahantu mu nyanja cyangwa mu kiyaga haba harimo amazi kugira ngo umuntu ahambuke hifashishwa ubwato bukozwe mu biti, buparitse mu mazi hanyuma buriho abasare biteguye kwambutsa umuntu uwo ari we wese bitewe n'aho agiye.

Ubwoko bw'igisabo cyiza kimeze neza, mu bwoko bw'ibicuma. Kikaba kirimo injishi, ni uburyo bwa gihanga babika igisabo, bakibika mu njishi, baba bagiye kugikuramo bakagikoresha ibindi bakakijishura, bakagikoresha ibyo bashaka kugikoresha.

Intore zirimo kubyina zifite amayugi, zambaye ibihura, zambaye n'imishanana zifite amacumu mu ntoke. Zirimo kubyina umujyo umwe, akaba ari umuco uranga intore cyangwa Abanyarwanda muri rusange.

Inkono y'itabi banyweramo itabi, umuntu yayifashe ayishyira, ayihagika mu ntoki ebyiri, iyo nkono bashyiramo itabi, warangiza ugashyiraho, ukarasiraho ikibiriti, ugashiraho igikara hejuru ku itabi, warangiza ugatumura ukoresheje umunwa.

Ikigega Nyarwanda babohaga mu rusasa ,bagatamura insasa hanyuma bakakiboha kikaba gifite n'uruhiza, bacyifashishaga bahunikamo imyaka babaga bejeje imyaka itandukanye, igihe bayikeneye kuyifatamo bakagenda bakajya barayikuramo.

Ubwoko bw'inzuzi zera ibicuma zikaba zishamitse ibicuma bibiri birikwerera biri mu kirere, iyo bagiye kubivuzamo barabihubika barangiza bagakuramo za nzuzi, akaba arizo bongera bagatera hanyuma ki kazavamo igicuma.

Umuntu ufite iningiri akaba ari gucuranga. Iningiri yabaga ikozwe mu ihembe nishinzemo igiti bagashyiraho umurya warangiza umuntu akavuza akanagambirira iningiri ikaza kuvuga.

Ubwoko bw'inkongoro babaza mu giti cyangwa agakebe, bayifashisha bakamiramo amata, iyo nkongoro ikaba iteye ingimba ku ruhande, haragize ikibazo.

Imashini zikoreshwa n'amashanyarazi, zicometse ku migozi iva muri purize yinjira muri izo mashini, zikaba zikora ibikorwa bitandukanye, hakaba hagaragara imigozi myinshi icomekwaho ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibyuma bihambiriyeho udukwege bikaba ari ibyuma byafashishwa mu bintu bijyanye n'amashanyarazi, bikaba bisa nkaho ari nka turunovisi bashobora gufunguza ibyuyuma bitandukanye by'amashanyarazi.

Ibyuma bikoreshwa n'amashanyarazi. Hari za kompiyuta arizo bita za mudasobwa. Zigaragaza ahantu bakora iyo bari kwandika ndetse zikaba zicometswe ku mashanyarazi, hifashishijwe imigozi yabugenewe.

Ubwoko bw'ibyuma bitandukanye bikoreshwa n' amashanyarazi, bikagira akamaro iyo babicometse ku mashanyarazi atanga ubushyuhe, kugira ngo bigire icyo bimara.

Icyuma gicomekwa ku mashanyarazi akaba ariho gikora, kikaba gikora imirimo itandukanye abantu bakenera, ariko kigakora ari uko gikoreshejwe n'amashanyarazi, mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Ahantu hari fotokopiyeze bifashisha iyo bafotora impapuro, zanditsweho ibintu bashaka gutanga hari na kompiyuta iri ku meza na suri yayo ndetse n'udukaritabule bifashisha bashyiramo amadokima.

Inyubako y'igikorwa ihurirwaho n'abaturage benshi ari rwo rusengero, abantu barusengeramo bitewe n'imyizerere yabo, bagasenga umunsi runaka, bitewe n'umunsi bahuriyeho ku idini, ikaba izengurutswe n'ikibuga abantu banyuramo, iyo bagiye gusenga.

Inzu yubatswe n'amatafari ahiye, ikaba ifite akazitiro k'ibyatsi gakase neza, akaba ari inyubako y'igikorwa cya Leta, ifasha abantu mubikorwa byabo.

Inyubako ya leta imaze igihe, ni amashuri asakajwe amabati, yubatswe ku buryo bw'amatafari, akaba yigirwamo n'abana, akaba afite n'ikibuga giteyemo umucaca inyuma yayo.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bwa kijyambere, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, akaba ari urusengero abantu bajya gusengeramo, ku munsi bahisemo bitewe n'idini iryo ari ryo, iyo nyubako ikaba ikikijwe n'ibiti byiza, ndetse n'izindi nyubako...

Inyubako y'ibikorwaremezo ya Leta, yubatswe mu buryo bw'ikoranabuhanga bugezweho, iyo nyubako ikaba iherereye ahantu hari nko ku ishyamba, nko ku birunga, hakunda kwiberamo abazungu mu nyubako nk'izi ziba zisakaje ibyatsi

Igikorwa cya guverinoma gihuriweho n'abantu benshi batandukanye， aricyo bita ikiraro gikozwe mu mbaho， kikaba gituma abantu bambuka， bagahahirana，bakava mu gace bakajya mu kandi， mu gihe amazi yamanutse cyangwa huzuye， ntihagire ubura uburyo ataha cyangwa ajya aho ashaka.

inzu bubakishije amategura, iyo ayisakaye ikaba ikorerwamo ibikorwa remezo bya Reta, bikaba hari agacaca, imbere ya yo hakaba hanyuze n'akayira k'amabuye.

Inyubako nini iriho icyapa ku muryango, ikaba yubatswe mu matafari ahiye, bikagaragara ko ari urusengero abakirisitu baza gusengeramo bitewe n'idini basengeramo, ndetse n'umunsi basenga.

Inzu yubatswe ku buryo bugezweho, igeretse gatatu, zubatswe mu buryo bumwe, bigaragara ko ari inyubako ya Leta, yagenewe igikorwa runaka nk'umudugudu, cyangwa se ibindi bikorwa, ikaba izengurutswe n'umuhanda, ndetse ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti.

Ishuri ryubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ryubakishijwe amatafari ahiye ,rikaba ryigwamo n'abanyeshuri bo mu mashuri makuru bajijutse,

Inzu yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ari igikorwa cya leta gikorerwamo imirimo itandukanye ya leta. Iruhande rwaho hakaba hanyuze ingaze iriho umuhanda ugiyeyo.

Inzu nziza zubatswe mu buryo bw'amagorofa, zubatswe na leta mu buryo bumwe, zikaba ari ku mudugudu wubakiwe abantu, kugira ngo ube ikitegererezo mu miturire itandukanye.

Amashuri yubatswe ku buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye, imbere hakaba hari idarapo ryubahiriza igihugu, ndetse hakaba hari n'akabuga, imbere y'aho hari abanyeshuri bari imbere y'umuryango.

Ahantu bita muri rompuwe haba hari ihuriro ry'imihanda, haba hari amashanyarazi y'ubwoko butandukanye yatsa amabara atandukanye, ndetse aho hantu haba hanyurwa n'urujya n'uruza rw'abantu bagiye mu bice bitandukanye.

Inyubako ya Leta ikorerwamo ibikorwa by'ubuyobozi bya Leta, ikaba imbere yaho ari akabuga keza gafite umucanga hasi, hirya hakaba hari ipoto izanamo amashanyarazi.

Gerereza ya musanze yubatswe n'amatafari ahiye, ikabamo imfungwa n'abagororwa, bitewe n'ibyaha bakoze, buri wese n'icyaha afungiwe akaba arumu, aruhukira kugira ngo bamutoze, kumugorora ave ku micyo yabagamo yinjire mu yindi micyo.

Abantu batandukanye baje mu nama. Bari kwiga ku bijyanye n'uburenganzira bwabo, mu bijyanye n'amategeko, ko bagomba kuyubahiriza. Hakaba hari umuyobozi ubari imbere, urimo kubahugura ibijyanye n'uburenganzira bwabo.

Abanyeshuri biga pirimere ndetse n'ayisumbuye. Bakaba bari mu munsi mukuru ugaragaza uburenganzira bw'umuntu, uburyo bugomba kubahirizwa, ku buryo bumwe cyangwa ubundi bagendeye ku mategeko abigenga.

Ubwoko bw'akanyayabiziga bita akarifani. Kifashishwa mu bwikorezi bw'ibintu bigiye gucuruzwa, cyangwa se biguzwe n'umuguzi abijyanye ahantu runaka, bitewe n'aho abikuye.

Imodoka ndende ikora ubwikorezi butandukanye bw'ibintu n'abantu ibukura mu gace kamwe ibujyana mu kandi gace. Ikabikora mu gihe runaka mu masaha runaka ikabifashamo n'uwayiguze imwinjiriza amafaranga.

Ubwoko bw'imodoka nini ikora mu bwikorezi, ikaba yikorera ibijyanye na peteroli n'ibikomoka kuri mazitu ndetse n'ibikomoka kuri esanse, ikaba iri mu kibuga inyuma yayo hakaba hari izindi modoka ntoya.

Umumotari ufite kasike ifite ibara ry'umuhondo akaba atwara abantu n'ibintu kuri moto, bakamuha amafaranga yifashisha na we mu buryo bwo kwiteza imbere.

Imodoka ndende itwara abantu n'imizigo，ikabakura mu gace kamwe ikabajyana mu kandi， bitewe n'aho iyo modoka yerekeza，ikaba ifasha kampani yayiguze， cyangwa se umuntu wayiguze ku giti ke， kumwinjiriza amafaranga.

Mu bwikorezi bw'imodoka butandukanye itwara iyo avuye kubirangura babikuye kuri butike, babijyana ahandi bagiye kubicururiza. Ikaba yikoreyemo udufuka, ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Imodoka zikorera imizigo iremereye, hari izikorera amasima, hari izikorera imifuka irimo imiceri, bakayikura ahantu bakayijyana ahandi bitewe n'ibyo bazikeneyeho ko zizana.

Gare irimo imodoka zitandukanye zitwara abantu zikabakura mu gace kamwe zibajyana mu kandi, harimo imodoka nini zitwara abantu benshi ndetse n'imizigo yabo.

Ibimodoka birebire bitwara imizigo iremereye biyikuye ahantu biyikoresha urugendo rwa kure, akenshi bikunda kuyitwara byambuka igihugu bijya mu kindi.

Imodoka ndende itwara abagenzi ndetse n'imizigo yabo. Ikaba ijyamo abagenzi benshi ku buryo ibakura ahantu ikabashyira ahandi bifuza kujya.

Gare irimo urujya n'uruza rw'abantu bari gutega bagiye mu duce bitewe n'aho imodoka ishaka kujya, hari abari ku murongo bateze imodoka ifite iyo igiye, hari n'izindi modoka ziri iruhande nazo zijya mu tundi duce, izo modoka zikaba zinjiriza abaziguze amafaranga ni ubucuruzi.

Ubwoko bw'ubwikorezi butandukanye, bukorwa n'ibinyabiziga bikoreshwa na risansi. Hari akarivani kikorera ibintu inyuma, ndetse n'imodoka isanzwe na yo bapakira ibintu byinshi, kuko ibyo byombi byikorera mu buryo butandukanye.

Umukinnyi ukina umukino wa tenisi akaba yambaye imyenda yabugenewe. Umukinnyi w'umukobwa, bishatse kutwigisha ko imikino iyo ari yo yose yaba abahungu cyangwa abakobwa, bagomba kuyikina. Ni umukino ukinishwa intoki.

Abakinnyi babiri bari gukina umukino wa tenisi bakoresha bifashisha ibikoresho byabugenewe mukuwukina bimeze nk'imyuko. Bawukina bagenda barenza, bayihererekanya, bakaba bari ku kibuga, ndetse hari umuntu uhari kubaha amabwiriza w'umutoza.

Abakinnyi babasiporotifu batandukanye bakina umukino w'amaguru ari wo bita futuboro. Bakaba bari mu kibuga bari gucenganwa kugira ngo uwo ariwe wese abashe gutsinda ibitego.

Abakinnyi b'amagare, bari kurushanwa barahagurutse, bari kunyonga bari mu gikorwa bise visiti Rwanda, abantu baje kubogeza bari kubareba uburyo bagiye gukina, uwo mukino w'amagare, akaba ari n'umukino ngororangingo, ufasha abantu kwiteza imbere kuko bawukunda

Abakinnyi bakina imikino itandukanye bakaba bari mu kibuga, bakaba bashyamiranye, bitewe n'ibibaye mu mukino baba barimo gukina. Bakaba bari gukizanya, bamwe bakiza uruhande rumwe, n'abandi bakiza ku urundi.

Abakinnyi bari kwiruka, bari kwishyushya bambaye impuzankano zitandukanye. Udupira tw'utujeze hejuru tw'umuhondo, abandi bakaba bambaye udupira tw'utugeze hejuru tw'umweru, amakabutura y'imikara, bakaba bari ku murongo bari kwiruka.

Ikibuga bakiniraho umukino w'intoke ariwo bita Voreboro, hakaba ashinzemo fire, hakaba hubakiwe agasitade gatoya, abantu bicaramo bari kogeza, bagashobora kuyihishamo izuba cyangwa imvura.

Abakinnyi bakina umupira w'intoke ari wo bita Voreboro, bawukina barenza, iyo uguye hasi babara ko ari igitego. Ni umukino uhuza ingeri zitandukanye, baba abagabo cyangwa se abagore barawitabira ukabateza imbere, ukabaha amafaranga.

Abakinnyi bakina umukino bari hamwe bari kwishima, bambaye impuzankano amajezi n'amapantaro ndetse n'amasupuresi, hakaba hariho n'undi uje ubagana ubasanga aje yiruka. Bari mu kibuga kirimo agacaca, kinyuzemo agahanda gikikijwe n'ibiti byiza.

Abantu bari muri siporo bari mu muhanda bari gukora siporo yo kwiruka bambaye utujeze dutandukanye, bakaba bari kwiruka bari gusiganwa basa nkaho bari ku murongo umwe mu muhanda.

Umupira bakinisha muri siporo. Ukaba ari umupira wa voreboro, bakina bakinisha intoke, iyo barenza file. Ukinwa n'amakipe abiri atandukanye, imwe iri hakuno indi hirya.

Kibuga bakiniramo umupira wa basikete boro, ukaba urarambitse mu kibuga giteyemo ubwatsi bawukinisha intoki. Hari abakinnyi batanu ku ruhande rumwe n'urundi batanu bakajya baratsindana bateye muri paniye.

Abakinnyi bakina umukino wa vore boro w'intoki, bakaba bari kwiga kurivura uburyo utera umupira n'ukuboko ukawurenza fire.

Abakinnyi bakina imikino itandukanye irimo: imikino y'intoke, vore boro, basiketi boro, bakaba bavanze, bakaba bari kwifotoza.

Ahantu hari icyuzi abantu bakoreramo siporo. Iyo siporo yo koga mu mazi， bityo bikabafasha kwishimisha no kwitoza koga ahantu harenze aha.

Abakinnyi bari mu kibuga bakaba bari gukina umukino w'intoki, hakaba hari umwe wasimbutse akabarenga akajya kuwubatanga, abandi bakaba bari kumurwanya, kugira ngo barebe uburyo bawumwambura nabo bakajya gutsinda.

Umuntu uri gukora siporo ku giti cye, ari mu kibuga bitewe na siporo akora. Akaba ari kwishimisha kugira ngo abashe kunanura ingingo ze, kugira ngo agire ubuzima bwiza, na siporo yitabira nayo ajye ayitsinda neza.

Imodoka iri gukora siporo inyura mu muhanda w'ibitaka. abantu bakaba bari kuyitegereza. Ikaba umushoferi yiga kuyitwara kugira ngo igihe yajya nko mu irushanwa ryo gutwara imodoka, akaba mu bantu babizoberewemo bazi gutwara.

Abakinnyi bari gukina umukino w'intoke aribo bita tenisi, uwo mukino wawukina barenza udupira, wadukubita igikoresho cyabugenewe muri uwo mukino, bakawurenza ,undi akawumusubiza ,bityo bakagera igihe baza gutsindana.

Imihanda yo mu cyaro ikozwe mu mapave, abantu bifashisha iyo bataha cyangwa bajya ku kazi, ikabitandukanya abantu uburyo batuye, mu ruhande rumwe abandi batuye mu rundi, ikagenda ibatandukanya ikabafasha mu buryo bwo gutaha cyangwa se kugenda.

Umuhanda w'amaguru unyurwamo n'abantu batuye muri ako gace ,bakawukoresha banyuzamo ibinyabiziga, cyangwa bakoramo ingendo ,bava iyo bari bagiye ,bataha iwabo mu rugo.

Ubwoko bw'imihanda bunyura mu cyaro ahantu hatuye abantu, cyangwag se hakorerwa inyubako zibamo ubucuruzi abantu bifashisha batuye mu cyaro, bakaza kuhagurira ibyo bifuza kugura.